Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba k'inama bicaye ku ntebe z'umweru, ameza afite ibitambaro by'umweru, imbere yabo hari umuntu ufite indangururamajwi uri kuvuga.

Ifoto igaragaza abagabo n'abagore bicaye mu cyumba k'inama bafite amazi imbere yabo ndetse andi mazi asutse mu kirahure, umugabo umwe yateye urutoki hejuru.

Umugabo wicaye imbere yameza ariho igitambaro cy'umweru n'ikindi cyigitenge ufite indangururamajwi mu ntoki wambaye amadarubindi imbere ye hari amacupa yamazi n'iruhande rwe hicaye undi mugabo wambaye amadarubindi .

Abantu batari benshi bicaye mu cyumba kigaragara nk'iki'inama bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, inyuma yabo hari izindi ntebe ziri mu ibara rijya gusa nk'ivu bafite indangururamajwi imbere yabo amakayi, amakaramu ndetse na terefone biteretse ku meza.

Umugore ufite imisatsi migufiya wambaye ishati irimo amabara y'umukara n'umweru, ufite imbwirwaruhame mu ntoki uhagaze imbere, inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo y'umukara n'ubururu.

Abantu bensh bicaye mu cyumba kinama bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye bicaye ku ntebe zifite amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo hagati yabo hari guca umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'ubururu ku madirisha hari ibitambaro by'umweru birinda urumuri.

Abantu bicaye hamwe, hari umugore uri gusuhuza umugabo wambaye umupira uciyemo imirongo y'umutuku n'mweru ndetse n'umukara iruhande rw'uwo mugabo hari abagabo babiri bambaye impuzangano y'abasirikare.

Abagabo bicaye mu cyumba cy'inama buri wese akaba afite icyo kunywa imbere yiwe, bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga imbere yabo birimo terefone, bicaye ku meza afite ibitambaro by'umweru

Abantu benshi bahagaze mu gisambu bafite ihene zambaye ibiziriko mu ijosi, inyuma yabo hari inzu inyuma yayo hateye igiti kirekire ndetse n'urutoki.

Abantu benshi barimo abazungu ndetse n'abirabura, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara mu cyumba kigaragara nk'igikorerwamo inama, imbere yabo ku meza hateretse ibyo kunywa ndetse n'indangururamajwi.

Umugabo wambaye ikoti isaha ndetse n'impeta, intoki ze ebyiri zifashe kundagurura majwi, yambaye n'amadarunindi ku maso inyuma ye hari igikuta kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi cyanditseho amagambo y'umweru.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye mu cyumba kimeze nk'icy'inama gifite ibikuta by'umweru, imbere yabo hari ameza asasheho igitambaro cy'umweru hariho amacupa.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba k'inama ku ntebe z'umukara, bashyizemo umwanya bambaye n'udupfukamunwa, inyuma yabo hagaze abandi bagabo bafite ibyuma bifata amashusho bari gufata amashusho.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga aho uzana amafaranga y'igihugu kimwe cyo hanze ukayagurana n'andi mafaranga yicyo gihugu ushaka gufata kandi harimo abantu babiri umukiriya ndetse n'umuntu uyacuruza.

Abategarugori bane bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hateretse ameza ariho telefoni ngendanwa enye n'icupa rimwe ry'amazi, inyuma yabo hari abantu benshi bicaye mu ihema.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama bambaye imyambaro igaragara mu mabara abiri ariyo umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, imbere yabo hari ameza asasheho igitambaro cy'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu ateretseho ibyo kunywa binyuranye na telefone ngendanwa.

Icyumba kinini kigaragara nk'aho ari icy'inama, gifite amatara menshi hejuru ku gisenge, gifite imbuga y'ubururu, cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umutuku ndetse n'ameza y'umuhondo.

Igisambu cyicawemo n'abantu benshi, bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye, bamwe muri bo bafite utujerekani tujyamo amacupa arindwi, abandi bafite utujerekani tujyamo amacupa cumi n'atanu, hakaba harimo n'abafite ibitiyo. Bicaye imbere y'inzu isakaje ibati ry'ubururu.

Abantu bahagaze mu cyumba kigaragara nk'aho ari ik'inama abandi bicaye imbere yabo bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bakaba bambaye udupfukamunwa inyuma yabo hakaba hari ibitambaro birinda izuba biri mu mabara y'umutuku, ku meza hateretse igikapu ndetse n'ibikombe biri mu mabara atandukanye.

Abantu benshi cyane bicaye ku ntebe z'umweru mu busitani, hejuru hatakishijwe ibitambaro by'umuhondo n'icyatsi, imbere muri ubwo busitani hari igiti n'igicucucucu cy'igiti.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari insakazamajwi, imbere ya buri umwe, n'amacupa arimo amazi yo kunywa, buri wese afite ikaramu imbere yiwe.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cymba cy'inama, imbere yabo ku meza hari ibinyobwa bitandukanye n'indangururamajwi, ku gikuta cy'umweru hamanitse igishushanyo cy'inka z'inyambo, hakaba hari n'ibitambaro birinda izuba bimanitse mu madirishya.

Abantu benshi bicaye munsi y'ibiti higanjemo abakuze, imbere yabo hahagaze umugabo uri kubaganiriza.

Abantu benshi bicaye imbere bambaye imipira y'icyatsi n'abandi bahagaze bambaye imipira y'umuhondo, bari ahantu hacanye amatara menshi ari kwaka.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama, bicaye muburyo bwa kare, hagati harimo akabindi bateramo indabo, ku meza yabo hari amacupa y'amazi ndetse n'amakaye.

Abantu bagaragara nk'abicaye muburyo bw'uruziga mu cyumba cy'inama, hagati yabo hakaba hari insakazamashusho buri wese akaba afite mudasobwa n'icupa rya'amazi imbere ku meza.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara wambaye ishati y'ubururu irimo ubudomo bw'umweru, imbere ye ku meza hateretse mudasobwa, indangururamajwi ndetse n'icupa ry'amazi.

Abakobwa n'abahungu bicaye mucyumba kinini higanjemo abambaye imipira y'umuhondo y'amaboko magufi harimo n'abandi bambaye imipira y'andi mabara ,icyumba gifite ibikuta by'umweru.

Abantu bicaye mucyumba kigaragara nkicy'inama, harimo umuzungu umwe, bicaye ku ntebe zitukura, imbere yabo hari ameza ariho amacupa y'amazi ndetse n'impapuro, hari n'ufite mudasobwa.

Umugabo wambaye ikote riri mu ibara rijya gusa nk'ivu, inyuma ye hari abandi bantu bicaye imbere y'ameza arambuyeho igitambara cy'umweru hariho icupa n'akapa kariho idarapo ry'u Rwanda mu mpande ebyiri.

Abantu bicaye, bigaragara ko bari mu cyumba k'inama, bafite amacupa y'amazi imbere yabo, indangururamajwi na terefone n'abafite mudasobwa.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma hari abicaye ku ntebe zifite ibara rijya gusa nk'ivu, imbere yabo hari indangururamajwi ndetse n'amacupa.

Ifoto igaragaza abantu bicaye mu cyumba cy'inama, harimo umugabo umwe uhagaze, bakaba bafite amacupa y'amazi imbere yabo ndetse bakaba bafite na mudasobwa imbere yabo.

Abantu bicaye ahantu hari intebe ndetse n'ameza ari muburyo bw'uruziga umugabo umwe muri bo arunamye afite ikaramu mu ntoki agaragara nkuri kwandika.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nkik’ inama, imbere yabo hateretse ameza afashesheho ibitambaro by'umweru, amwe muri yo ateretsemo telefone ngendanwa ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu bicaye hamwe, bambaye imyenda yo mu mabara atandukanye, biganjemo abambaye imyambaro y'ubururu, imbere hateretse ameza ateretseho telefoni ngendanwa, impapuro ndetse n'amacupa.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'aho ari ik'inama, imbere yabo ku meza hakaba hari impapuro, terefone zigendanwa, amacupa y'amazi hakaba hari n'abafite mudasobwa.

Igisambu gishinzemo amahema yicayemo abantu benshi bicaye begeranye, bambaye imyambaro iri mumabara atandukanye, inyuma yayo hateye ibiti birebire.

Ifoto iriho abantu bagaragara nkabicaye mu cyumba cy'inama, bafite amazi, buri wese afite amazi imbere yiwe afite amacupa y'imifuniko isa ubururu.

Icyumba kigaragara nk'icyinama cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye imbere hari ameza asasheho igitambaro kiri mu mabara y'umuhondo, ndetse n'icyatsi kibisi ateretseho ibinyobwa bitandukanye mudasobwa, terefone ngendanwa, ndetse n'impapuro.

Icyumba kigaragara nki'cy'inama cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, imbere hicaye umugore wambaye imyambaro yiganjemo ibara ry'umweru, uteze igitambaro gisa nk'umweru mu mutwe. Iruhande rwe hateretse igikapu batwara ku rutugu gisa umukara.

Abantu bicaye bigaragara ko bari mu cyumba k'inama imbere yabo hakaba hahagaze umugore ufite indangururamajwi, abantu bicaye, bicaye ku ntebe z'umutuku bambaye imipira y'umweru, hakaba hari n'ibitambaro birinda urumuri ku madirishya.

Abantu benshi bicaye mu gisambu munsi y'ibiti, biganjemo abateze igitambaro, hagati yabo hacamo imbuga y'igitaka ihagazemo umukobwa wambaye ipantaro ufite n'impapuro mu ntoki, hakurya hari akazu gato kubabakishije amatafari ahiye gasakaje amabati.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bafite indangururamajwi imbere yabo, hari n'abafite impapuro, inyuma yabo hari ibitambaro birinda urumuri mu madirishya.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama bicaye ku ntebe z'umukara, bakikije ameza y'igiti ateretseho amacupa menshi ndetse na mudasobwa.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama; bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara; imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi ndetse n'indangururamajwi.

Ifoto igaragaza abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama gifite amadirishya y'ibirahuri, abo bantu abenshi muri bo bafite mudasobwa imbere yabo.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mumabara atandukanye bicaye mucyumba kigaragara nkicy'inama, imbere yabo hari imeza zishasheho ibitambaro byumweru, iteretseho amakayi ndetse na Telefone ngendanwa.

Ifoto igaragaza abantu bambaye ingofero z’ubururu, imipira y’icyatsi, ndetse ni y’ ubururu inyuma yabo hari insakazamajwi nini , hakurya hakaba hateye ibyatsi.

Icyumba kigaragara nk'ikin'inama cyicayemo abantu bicaye ku ntebe z'umweru, bamwe muri bo bateze ibitambaro mu mutwe. Imbere yabo bahagaze umukobwa ufite indangururamajwi, ndetse n'insakazamajwi nini cyane. Hari n'abandi bantu bicaye imbere y'ameza afite igitambaro cy'umweru.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ariho amazi ndetse na mudasobwa.

Umugabo n'umugore bahagaze mucyumba kigaragara nk'ikinama bose bafite indangurura majwi mu ntoki bazegereje umunwa umugabo yambaye ishati iciyemo imirongo umugore yambaye agapira k'amaboko magufi kari mu ibara ry'umuhondo inyuma yabo hicaye abandi bantu imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru .

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama, bicaye imbere y'ameza afite ibitambaro by'umutuku n'umweru, hateretseho amazi hejuru ndetse na mudasobwa.

Abantu bahagaze imbere yinzu y'ibirahure hari nundi muntu umwe uri kwinjira muri iyo nzu . Iyo nzu ifite ibibindi bateramo indabo n'indabo z'icyatsi .

Abantu benshi bahagaze hamwe, ahantu hari imbuga y'ubururu, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, inyuma yabo hagaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama ku ntebe zitukura, abenshi muri bo bafite impapuro n'amakaramu mu ntoki.

Icyumba cyicayemo abantu imbere hicaye umugore w'inzobe ufite imisatsi igera ku rutugu imbere ye ku meza hateretse icupa ndetse n'ikirahure banywesha amazi imbere ye nanone hari igikombe giteyemo ururabo.

Umugore wambaye imikenyero n'amadarubindi imbere ye hari icupa ry'amazi n'indangururamajwi n'umupolisi wambaye impuzangano ya gipolisi umwicaye iruhande.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo ku meza hari indangururamajwi, amakayi, amacupa y'amazi ndetse n'amacupa arimo imitobe.

Abantu batari benshi bicyaye mu cymba, kigaragarako nkaho Ari iki inama. Bamwe mu ribo bifite telephone ngendenwa mu ntoki, bicaye kuntebe zifite ibira rijya gusa n'iryivu.

Abantu benshi bahagaze ku murongo utambitse wambaye imyambaro itandukanye, harimo umugabo wambaye ingofero y'idini ry'abayisilamu, isa umutuku mu mutwe, abo hagati bafashe ku cyapa cy'umweru cyanditseho amagambo.

Ifoto igaragaza abagabo babiri umwe ahagaze imbere y'ameza undi yicaye inyuma y'ameza, kumeza hariho imashini ifotora. Ku meza hariho ingofero n'uwo mugabo uhagaze yambaye ingofero y'ubururu n'umupira w'umweru.

Icyumba cyicayemo abantu batandukanye harimo n'abahagaze, ku meza hari imashini, harimo n'utubati tugiye turimo ibitabo byinshi bitondetse, hari n'ibitambaro birinda urumuri ku madirishya.

Umukobwa wambaye agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi uri kureba muri terefone ngendanwa afite mu ntoki, iruhande rwe hagaragara umuntu wambaye umupira uciyemo imirongo ndetse n'ingofero y'icyatsi mu mutwe hirya ye hakagaragara umukobwa wicaye ufite mudasobwa wambaye agapfukamunwa.

Ifoto igaragaza urubuga yanditseho amagambo y'umukara n'umweru mu nguni y'iyo foto harimo ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda.

Ifoto igaragaza urubuga handitseho amagambo hariho n'imborahamwe, hariho n'ibirango by'imbuga nkoranyambaga nka fesibuke, yutubi ndetse na tuwita, hakaba hariho n'idarapo ry'u Rwanda.

Icyumba kigaragaramo ikiganza gifashe kuri mudasobwa iteretse ku meza ajya gusa nk'umuhondo haruguru yayo hari imeza ijya gusa nk'umukara iteretseho imashini y'umukara hari n'insinga zitambukaho haruguru hari ahantu hateretse imashini y'umweru ifotora impapuro.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, n'ishati ya karokaro ndetse n'amadarubindi, ku meza imbere ye hariho mudasobwa.

Abantu bicaye kumeza asa umukara, bafite mudasobwa, n'amakaye, imbere yabo inzu y'umweru ifite ibirahure, urebeye mu birahure, ubona ubusitani n'ibiti.

Umunara ufite amabara abiri harimo ibara ritukura ndetse niry'umweru, nimuremure hejuru yawo hagaragara igice k'ikirere gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru

Imbuga isashwemo amabuye ku ruhande hari inzu y'amagorofa, hari n'uduce dutoya tugiye duteyemo ubusitani n'intebe zisashwe muri iyo mbuga zicayeho abantu hagaragara ikirere kiganjemo ubururu hakaba harimo n'umweru mu kirere.

Imbonerahamwe iri ku rupapuro rw'ubururu yandikishijweho amagambo y'umweru hari n'ari mu ibara ry'umweru yandikishijwe amagambo y'ubururu.

Umunara muremure cyane w'itumanaho ufite amatara atatu ku ruhande wubakishije ibyuma, hejuru yawo hagaragara ikirere kigaragara nk'ikiri buze gutanga imvura.

Abantu benshi bicaye iruhande rw' ameza, batagaragara amasura, ameza arimo ibara ritukura, ateretseho impapuro na mudasobwa nyinshi, na terefone ngendanwa.

Ifoto itambitse igaragaza umunara w'itumanaho ndetse n'ibiti hakaba hari n'inzu yubakishije amatafari hagaragara n'ikirere cyijimye.

Igiti gishinzwe gufata insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, kikaba gifata n'itara rimurika k'umuhanda, munsi yacyo harimo ibiti byinshi bifite amababi menshi cyane.

umuhanda wa kaburimbo ufatanye nundi usashwemo amabuye, harimo umugabo umugabo wambaye bote ufite umweyo ushinzemo igiti uri gukubura umuhanda, haruguru ye hari amapikipiki ndetse n'undi muntu umwe uri kumanuka.

Inyubako ifite imbere yayo igiti gishinzwe gufata insinga zishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi, imbere y'iyo nyubako hari indi nyubako y'igorofa itararangiza kubakwa igifiteho ibiti.

Inzu y'igorofa igaragara ko ikiri kubakwa izengurukijwe n'amabati, haruguru yayo hubatse igikuta cy'amatafari ahiye, imbere yacyo hateye igiti gifite amababi menshi, hejuru yacyo haca insinga zikwirakwiza umuriro w'amashinyarazi.

Imodoka nini itwara abagenzi, iri guca umuhanda ukikijwe n'ibiti, hejuru hari insinga zikwirakwiza umuriro wamashanyarazi, n'umutaka w'umuhondo kuruhande.

Ifoto igaragaza igiti kimanitseho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, icyo giti giteye haruguru y'inzu isakajwe amabati y'umukara kikaba giteye mu busitani hepfo yubwo busitani hari igiti.

Umuhanda wa kaburimbo hateyeho igiti kimanitseho itara ryo k'umuhanda n'insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya hari ubusitani burimo ibiti.

Inzu y'umweru, isakaje amabati y'umukara, imbere yayo hari igiti bamanikaho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hakurya hari izindi nzu n'ibiti byinshi.

Umunara muremure wubakishijwe ibyuma uhengamye uteye hagati mu byatsi, inyuma yabo hakaba hateye ibiti byinshi.

Haragaragara ubusitani, hakurya hari umusozi uriho amazu hakagaragara, n'igiti kimanitseho insinga zikwirakwiza umuriro wamashanyarazi, n'inzu hepfo yayo.

Iminara ibiri miremire ifashweho n'insinga, hejuru yayo hakaba hari ikirere kigaragara mumabara abiri ariyo umweru ndetse n'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo hepfo yawo hakaba hateye indabo, hakaba hashinzemo n'igiti kimanitseho insinga zikwirakwiza amashanyarazi, hepfo yaho hakaba hari inzu ntoya n'iyindi nzu nini y'amagorofa, ifite ibyuma hejuru bishyushya amazi n'ibibika umuriro uturutse ku mirasire y'izuba.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka hakurya hari amazu n'ikirere kigaragara cy'umweru.

Imbuga iteyemo intebe z'ubwoko butandukanye iri imbere y'inzu ifite ibikuta by'umuhondo hari n'inkingi yubakishije amabuye y'amasarabwayi .

Inzu isakaje amabati, imbere yayo hari imbuga isashemo sima isakaje ibati, ku mpande zayo hari ubusitani, ku mpande buteyemo indabo z'amoko atandukanye.

Amagorofa abiri yegeranye imbere yayo hahagaze imodoka n'abantu bari gutambuka hari n'igiti cy'umukindo ndetse n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bagaragara nk'abicaye mu cyumba cy'urukiko hepfo hicaye abantu bagaragara mu myenda y'umukara imbere hicaye abantu bambaye ingofero mu mutwe bambaye imyenda y'umutuku bagaragara nkabacamanza hagati yabo hari amatarapo menshi y'igihugu cyu Rwanda.

Abantu bicaye hanze ku ntebe zimbaho imbere yabo hari umugore wambaye ijipo n'ikote ufite igitabo mu ntoki inyuma ya hateye ibiti hakurya hari amazu.

Abagabo batatu bagaragara igihimba uwo hagati yambaye impuzankano igaragara nk'iy'abagororwa, uri imbere ye yambaye amadarubindi. naho uwinyuma ye yambaye ingofero mu mutwe.

Umugabo wambaye ikabutura ndetse n'ishati bigaragara ko ari impuzanankano y'abagororwa uhagaze, iruhande rwe hahagaze undi mugabo wambaye impuzankano igaragara nk'iy'abacamanza imbere yabo hicaye abantu bafite amazi ndetse n'indangururamajwi bambaye n'udupfukamunwa.

Abantu benshi bagaragara nkabagenda bambaye impuzangano zigaragara nk'izabagororwa iruhande rwabo hari igikuta kirekire cyane cyubakishije amatafari ahiye.

Abantu benshi bambaye impuzankano yo mu ibara ry'ubururu bicaye, inyuma yabo hahagaze abandi bambaye impuzankano zisa n'ingofero ziri mu ibara rijya gutukura, inyuma hari igikuta cy'umweru.

Abagabo babiri ndetse n'umukobwa umwe bambaye impuzangano z'umukara n'umweru, bicaye ku ntebe zigaragara mu ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro.

Umugore wicaye usobekeranyije intoki ebyiri zifashe ku kananwa, yambaye impeta ku rutoki rumwe, yambaye amadarubindi ku maso, ntamusatsi afite, inyuma ye hicaye abandi bantu benshi, iruhande rwiwe hicaye umuntu wambaye umwambaro ufite idarapo ry'u Rwanda ku kaboko.

Abantu bagaragara mu mpuzankano z'abagororwa bifashe mu gatuza n'ukuboko kumwe ukundi kuboko bakuzamuye hejuru mu kirere .

Abagore ndetse n'abagabo bahagaze kumurongo umwe bambaye imyenda y'ambara y'umukara ndetse n'umweru bahagaze bareba imbere mu nyubako mo imbere.

Umugore uhagaze usa nkaho akuze wambaye amadarobindi ufite indangururamajwi mu ntoki yambaye ikanzu ijya kuba mu ibara ritukura yambaye n'igitare ku kuboko.

Umugabo uhagaze hagati ahantu hatondetse amakarito menshi yambaye ishati y'amaboko maremare akenyeje umukandara w'umukara yambaye n'amadarubindi ku maso.

Urupapuro rugaragaza ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, rukaba rwanditseho n'amagambo matoya yanditswe mu ibara ry'umukara.

Umugore ugaragara nkujya kuba munini, wambaye ishati y ’ubururu bwijimye yamaboko magufi. Ufite indangururamajwi mu ntoki yayegereje umunwa.

Abantu bagaragara nkabicaye mucyumba c'yinama bamwe bicaye kumurongo wo hepfo utambitse abandi bicaye imbere yabo k'umurongo uhagaze kurukuta ahamanitseho isakazamashusho .

Icyumba cyicayemo abantu bambaye impuzankano igaragara nkiya abagororwa, imbere hari igikuta cy'amatafari ahiye, kimanitsemo insakazamashusho.

Urupapuro ruciyemo ibice bitatu buri gice kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hejuru ritsindagiye hasi akaba ryanditseho amagambo matoya ari mu ibara ry'umukara ridatsindagiye.

Ifoto igaragaza umupolisi wambaye ingofero ndetse n'amadarubindi, ufashe ku idarapo ry'ubururu yazamuye ikiganza cyiwe. Uwo mugabo yambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi cyijimye.

Umugabo wambaye ipantaro y’ ubururu n'ishati y’ umweru uri kugenda agana imbere yinzu yigorofa, imbere yayo hahagaze imodoka ya polisi ndetse nizindi modoka.

Umuhanda wamabuye uhagazemo imodoka y'umukara nindi modoka ya polisi ifite ikirango cya polisi inyuma y'izo modoka hari ahantu hateye ibiti n'abantu bari kuzica iruhande .

Abagore n'abana bicaye hasi mu mbuga, inyuma yabo hari imodoka nini zikora umuhanda ziri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, iruhande rwabo hari umugabo wambaye imyenda y'ubururu bwijimye, indofero ndetse n'agapfukamunwa inyuma hakaba hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo umupolisi wambaye impuzankano yagi polisi urambuye ukuboko, imbereye hariguturuka imodoka y'umumweru itwara abagenzi uruhanderwe hari guca ipikipiki itwaye umugenzi.

Abantu bambaye ingofero n'impuzangano ziri mu mabara y'umukara n'icyatsi, bafite imipira iturukamo amazi iri mu mabara y'umutuku, bari gutera amazi ahantu hari ibiti hari kuva n'umwotsi.

Umupolisi uhagaze imbere y’imbuga y’igitaka, wambaye impuzankano ya gipolisi. Ufite ibipapuro inyuma y’umugongo, wazamuye ukuboko imbere ye. Hari imodoka nyinshi n’amagorofa

SPENN ni uburyo bwatangijwe na banki ya I&M BANK, ushobora kubitsa, ushobora kohereza umuntu amafaranga ushobora no kuyabikuzaho ndetse ushobora no koherereza amafaranga ubu buryo ugatsindira amafaranga magana tanu uko utumiye umuntu.

Abagabo n'abagore bahagaze bakikije imeza iriho ibipapuro n'icupa ry'amazi bakaba bafite ibindi bipapuro mu ntoki ,bakaba bambaye amapantaro y'imikara, imipira y'umweru n'ingofero z'umweru zifite ibirango biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Ifoto igaragaza abagore n'abagabo bari kurahira bazamuye ibiganza bafashe ku idarapo ry'igihugu cy'urwanda ririmo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ufite urupapuro ruzinze mu kiganza, ku rutoki yambayeho impeta, yambaye n'amadarubindi afite umusatsi wamasoso.

Abantu bahagaze hamwe, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye hinganjemo iyo mu bwoko bw'ibitenge, buri wese afite urupapuro yashyize imbere ye yarufatishije amaboko abiri ruriho ishusho y'umugabo.

Abagabo babiri bahagaze n'undi mugabo wicaye inyuma ye hari imodoka y'umukara, n'abantu bari kugenda mumuhanda wigitaka. Inyuma yabo hari ibiti bimanitseho insinga zishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Umugabo uhagaze wambaye ikote n'ipantaro ahagaze imbere yabantu bicaye bafite mudasobwa imbere yabo afite igiseke mu ntoki .

Abantu bicaye imbere yabo hari abandi bahagaze impande zabo hagiye hari amadarapa atandukanye kandi bakaba bafite indangururamajwi ziri imbere ya buri umwe.

Ifoto iriho abantu benshi bari kureba umugore uri guhobera abana babiri bishimye, umwe muri abo bana akaba afite akadarapo gatoya gafite amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'icyatsi hakaba handitsemo amagambo ari mu ibara ry'icyatsi mu ibara ry'umweru, hakaba hari n'andi mabara y'icyatsi yanditseho amagambo.

Abantu bicaye mu cyumba k'inama, bicaye ku ntebe ziri mu mabara y'umukara, buri wese afite icupa ryamazi, umugabo wicaye imbere afite igipfuko mu gahanga, yambaye agapfukamunwa ndetse afite igikombe kirimo ikiyiko imbere yiwe.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, wambaye isaha y'umukara ku kuboko, ufite indangururamajwi mu ntoki, yayegereje umunwa, inyuma ye hateye intebe ya parasitike iri mui ibara ry'umweru, ndetse n'icyapa kiriho ishusho y'umugabo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, n'ingofero mu mutwe y'umukara. wambaye amadarubindi uri guseka wazamuye ikiganza agafunga igipfunsi inyuma ye hari abantu benshi bafite utudarapo dutoya turi mu mabara y'ubururu umutuku, ndetse numweru.

Umugabo wambaye ikote rifunze igifungo kimwe, wambaye amadarubindi ku maso, ufite umusatsi w'amasoso yambaye n'impeta ku rutoki ari guseka.

Abantu bane bahagaze ku murongo utambitse, abagabo babiri n'abagore babiri. Umugabo umwe afite indangururamajwi y'umweru, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye ishati icyemo imirongo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru wawuhiniye mu nkokora, wazamuye ukuboko, ufite ingofero yumutuku mu ntoki, wambaye isaha ku kuboko agapfukamunwa, ndetse n'amadarubindi. munsi ye hagaragara abantu benshi bafite utudarapo dutoya.

Umugore wambaye umupira wumukara w'amaboko magufi ndetse n'ingofero yumweru yambaye n'amadarubindi afite akadarapo gato mu ntoki imbere ye hari indangururamajwi, inyuma ye hari icyapa kiriho umugabo wambaye ishati yumweru n'amadarubindi urimo araseka ufite amasoso.

Abagore babiri bambaye imyambaro y'ibitenge, bari mu cyumba cy'umweru, umwe ahetse umwana amutwikirije agatambaro k'umweru ari gushyira mu rupapuro ruzinze mu gasanduku.

Umugabo wambaye amadarubindi ndetse n'ikote wazamuye ikiganza hejuru ufashe ku idarapo ry'u Rwanda iruhande rwe hari umugore wakenyeye ndetse n'umucamanza.

Umugore wicaye wambaye imyenda y'umweru, inyuma ye hari igikuta kigaragara mu mabara y'umweru, imbere ye ku meza hari impapuro, afite urupapuro ndetse n'ikaramu mu ntoki.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse nshati wishimye uri guseka iruhande rwe hagarara igitambaro gifite ibara ry'ubururu ashushanyijemo izuba ry'umuhondo.

Abantu benshi bicaye, biganjemo abagore, bambaye imikenyero y'umutuku ndetse n'umweru, bambaye ibitambaro mu mutwe by'idini rya Isilamu, biri mu ibara ry'umweru, bafite utudarapo dutoya turi mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Umuyobozi w'ishyaka rya FPR, Paul Kagame, yambaye ibirango by'ishyaka rye, ahagaze imbere y'imbaga y'abaturage. Inyuma ya nyakubahwa Kagame hari abashinzwe kumurindira umutekano, bambaye imyenda y'umukara. Ameze nk'uri kwiyamamaza ngo bazamutore mu matora y'Umukuru w'Igihugu.

Abantu babiri bicaye bambaye imipira y'umweru n'ingofero z'umweru, bari gushyira impapuro mu gasanduku inyuma yabo hahagaze undi muntu.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu bwijimye, wambaye ishati y'umweru, ufite urupapuro ruzinze mu ntoki, yambaye impeta ku rutoki, inyuma ye hahagaze undi mugabo ufite agakaye mu ntoki, inyuma ku gikuta hatakishijwe ibitambaro biri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Ikivunge cy'abantu imbere hari umugabo uzamuye ikiganza usa nk'uri gusuhuza abo bantu, inyuma hahagaze imodoka y'umukara.

Abagabo batatu bahagaze ku murongo utambitse, uwo hagati yambaye ikote n'ipantaro bijya kugaragara mu ibara ry'umweru, uwo ku ruhande rwe ibumoso yambaye amadarubindi y'umukara, uwo ku ruhande rw'iburyo yambaye ikote ry'umukara, uwo hagati imbere ye hateretse indangururamajwi afite n'urupapuro mu ntoki.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ingofero y'umukara ndetse n'amadarubindi, inyuma ye hari abashinzwe umutekano bambaye impuzangano n'amadapo ari inyuma ye.

Ifoto igaragaza abagore n'abagabo, abagore bambaye imikenyero bamanitse ikiganza kimwe ikindi gifashe kw'idarapo ry'igihugu cy'urwanda gisa ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ipikipiki hagati hari ubusitani butoya buteyemo indabo, ibyatsi ndetse n'ibiti biri mu bwoko bw'imikindo hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Imbuga ihagazemo ubwoko bw'imodoka butandukanye, harimo inini ndetse n'intoya, harimo n'imodoka nini y'ubwikorezi yuzuyemo imifuka aho batwara imizigo.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye nimbuga irimo imodoka zubwoko butandukanye, harimo iziri mwibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hepfo yazo hagaragara ikigega kibika amazi kiri mwibara ry'ubururu.

Ifoto igaragaza umuhanda wa kaburimbo n'undi muhanda w'abanyamaguru harimo imodoka nini cyane y'ubwikorezi ifite amabara menshi kum mpande z'umuhanda ateye ibiti inyuma y'iyo modoka hari igare ndetse n'ipikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ipikipiki n'imodoka y'umweru nini itwara abagenzi hakurya yawo hakaba hari ibiti birebire binini.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira; hari kugendamo imodoka nini bakoresha mu bwubatsi ndetse n'ibindi binyabiziga.

Imodoka nini y'ubwikorezi itwaye imifuka myinshi y'umweru, itwikirijwe na shitingi iri mu ibara ry'ubururu rizirikishije imikoba minini y'umukara.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kugendamo imodoka yo mu ibara ry'umweru, hepfo hakaba hari inyubako, hari n'izindi modoka zihahagaze, hakaba hari guca insinga z'amashanyarazi hejuru.

Imodoka nini y'umweru, ihagaze mu muhanda wa kaburimbo, itwikirije shitingi, ifite imikoba y'umukara hejuru aho babika ibintu, hakurya y'umuhanda hateye ibiti, hari n'ibindi binyabiziga by'amoko atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinogo, uri kugendamo abagabo babiri bari kubisikana, ndetse n'imodoka itwara ibintu hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gahagazemo igare gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo uri gutambukamo abantu, hahagazemo n'imodoka ntoya y'umweru haruguru yayo hari abantu bahagaze hejuru y'imodoka ifite imifuka myinshi.

Imbuga ihagazemo imodoka ntoya zitwara abagenzi, higanjemo iziri mwibara ry'umweru, imwe murizo ifunguye umuryango, harimo nurujya nuruza rw'abantu.

Umuhanda ugaragaramo ibinyabiziga bitandukanye. Harimo amapikipiki, imodoka, ndetse n'igare ,Hagaragara umugabo wambaye umupira w'ubururu, uri gusunika igare rihetse imifuka y'umweru.

Imodoka nini iri mu ibara ry'umutuku y'ubwikorezi iri guca mu muhanda wa kaburimbo, hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti byinshi, hepfo hakaba hari rigori ishinzwe gutambutsa amazi y'imvura.

Ifoto igaragaza umuhanda wa kaburimbo iri kugendamo imodoka nini cyane y'ubwikorezi iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, hakurya hakaba hateye ibiti n'abantu bari kugenda mu muhanda, hakaba hari n'umuferege unyuramo amazi.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uhagazemo imodoka nini y'umweru itwara abagenzi, hakurya yawo hari umunara muremure ndetse na umusozi uteyeho ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uhagazemo imodoka nini y'ubwikorezi iri mu ibara ritukura, yuzuyemo umucanga inyuma yayo hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo imodoka nini y'ubwikorezi inyuma aho batwara imizigo batwikirije shitingi y'ubururu, inyuma yayo hari ipikipiki kuruhande hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini cyane, y'ubwikorezi itwikirije shitingi iri mu ibara ry'ubururu izirikishije imigozi y'umweru, imbere yaho hari ahantu hateye ibiti ndetse n'umuhanda w'amayamaguru.

Imodoka nini cyane y'ubwikorezi irimo umucanga, iri mu ibara ry'umutuku, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo inyuma yawo hateye ibiti.

Imbuga irimo imodoka z'ubwoko butandukanye, higanjemo iziri mu ibara ry'umweru, harimo urujya n'uruza rw'abantu bake, hakurya hagaragara umusozi muremure.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo moto n'abazitwara bambaye impuzangano zabo imbere yawo hari amazu y'amagorofa ndetse n'ibiti, hari n'imodoka ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka nini y'ubwikorezi iri mumabara y'ubururu n'umweru iri kugenda mumuhanda wa kaburimbo iruhande rwayo hari ipikipiki itwaye umugenzi ndetse n'imodoka ntoya kuruhande kumuhanda w'abanyamaguru bari kugenda hari umuntu wikoreye umufuka w'umweru hakurya y'umuhanda hateye ibiti birebire .

Umugabo ufite igare uri kugenda mu nzira y'abanyamaguru, iruhande rwe hari ubusitani buteyemo ibiti, inyuma ye hari abagore ndetse n'imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka hakurya yayo hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti birebire cyane hirya hakaba hari urukuta rw'amatafari ahiye .

Imodoka nini itwara abagenzi iri mumabara y' ubururu, ndetse n' umweru iruhande rwayo harigutambuka umusore wambaye umupira w' amaboko maremare urimo amabara abiri atandukanye.

Imbuga ihagazemo imodoka nini itwara abagenzi iri mu i ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru iruhande rwayo hari urujya n'uruza rw'abantu n'imifuka y'umweru ifunze hagaragara n'amatara yo ku kumuhanda ari kwaka.

Imihanda ibiri ya kaburimbo iteganye, itandukanyijwe n'icyuma kinini gitambitsemo hagati, umuhanda wo haruguru uciyemo umurongo muremure w'umuhondo, uri kugendamo ipikipiki itwawe n'umuyobozi wayo n'umugenzi wicaye inyuma.

Abantu bicaye ku ntebe ziri imbere y'umuhanda, abandi bagenda, abandi bahagaze, inyuma yabo hari igorofa riri mu ibara ry'umutuku.

Abantu babiri bicaye bakikije ameza umwe w'umuzungu, undi w'umwirabura, bafite mudasobwa imbere yabo, hepfo hicaye undi muntu w'umwirabura ufite mudasobwa wicaye ku meza.

Ifoto igaragaza inzu yubakishije amatafari, iyo nzu ikaba ari amagorofa asakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hari umuhanda wa kaburimbo, imbere y'umuhanda wa kaburimbo harimo ubusitani butandukanye umuhanda wa kaburimbo n'ikibuga kiri gukiniramo abana batatu.

Ikibuga kigari giteyemo ibyatsi, kiri kugendwamo n'umuntu umwe wambaye agapira k'amaboko magufi kari mu ibara ry'ubururu, umuzenguruko wacyo hakurya hagaragara ibiti n'ibyapa.

Agace gatoya k'imbuga y'umutuku, iruhande rwayo hakaba akayira gasashemo amabuye, gateretsemo intebe, iruhande rwayo hakaba hari ubusitani bumennyemo amabuye menshi y'amaserebwayi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'umutuku imbere yayo hari ubusitani burimo ibiti by'umukindo n'ikibuga kiri gukiniramo abana umupira .

Icyapa gifite amabara abiri harimo ibara ry'umweru ndetse n'iry'umutuku, mo hagati hakaba handitsemo amagambo manini yanditswe mu nyuguti zisa umweru.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru cyanditsemo amagambo y'umukara giteretse mu muhanda w'amabuye haruguru yabo hari abantu bari gukora umuhanda hejuru hateye ibiti.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku cyanditsemo inyuguti ya p iciyemo umurongo izengurukijeho uruziga rutukura .

Icyapa kiri mu mabara abiri harimo ibara ritukura ndetse n'iry'umweru, hagati mu cyapa hashushanyijemo ikimenyetso cy'umusaraba, kishushanyije mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiri mu mabara abiri, harimo ibara ry'umuhondo ndetse niry'umukara, hagati handitsemo amagambo manini yandikishijwe inyuguti z'umukara nini.

Icyapa cya mpande eshatu kiri mu mabara atatu harimo umutuku ndetse n'umweru, hashushanyijemo imirongo ibiri itaragurika. Hagati y'iyo mirongo harimo igishushanyo cy'umuntu utambuka.

Icyapa kiri ku muhanda kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru kiriho abantu babiri bashushanyije mu ibara ry'umukara giteye imbere y'umukingo wubakishije amabuye hariho n'ibiti.

Inzu igaragara mu ibara risa nk'umuhondo ifite inzugi z'umweru, imbere yayo hari imbuga y'umweru, ikurikirwa n'agahanda gasashemo amabuye, kari kugendamo umuntu, n'icyapa kiri mu buryo bw'uruziga cy'umweru, ndetse n'umutuku cyanditsemo mirongo itandatu.

Icyapa cya mpande eshatu kiri mu mabara abiri, harimo iry'umweru ndetse n'iritukura, hagati hashushanyijemo abantu babiri bari mu ibara ry'umukara, hakurya yacyo hagaragara ibiti ndetse n'amazu.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu giteye mu busitani, kigaragaza imodoka itwara abagenzi. Mu muhanda wa kaburimbo nuw'abanyamaguru hari kugendamo imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara n'umanuka, ugafatana n'undi utambika uciyemo umurongo muremure w'umweru ugiye utaragurika, haruguru yawo hari igisambu giteyemo ishyamba.

Igisambu kinini giteyemo ibiti hagati harimo inzu isakaje amabati ari mu ibara ritukura hakurya yaho hagaragara amazu yiganjemo ibara ry'umweru.

Umuhanda usashemo amabuye, ufatanye n'undi wa kaburimbo, uri kugendamo abantu babiri, bahetse ibikapu mu mugongo, imbere yabo hagaragara ibinyabiziga, harimo igifite ibara ritukura.

Umuhanda ugaragara nk'uw'abanyamaguru, uri kunyura hagati y'inyubako, uri kugendamo urrujya n'uruza rw'abantu, hakaba hahagazemo n'ibinyabiziga birimo amapikipiki ndetse n'amamodoka atwara abantu ku giti cyabo.

Ifoto igaragaza imiryango yinjira mu nzu ntoya ndetse haruguru hakaba hari inzu z'amagorofa ikagaragaza n'umuhanda wa kaburimbo, imbere y'izo nzu hateye indabo.

Ifoto igaragaza inzu y'igorofa, imbere y'iyo nzu hahagaze imodoka ziri mu mabara y'umukara n'icyapa cyamamaza kiriho icupa ririmo ikinyobwa kiri mu ibara ry'umutuku.

Inzu isize ibara rijya gusa nk'ivu imbere yayo hari imbuga isashemo amabuye n'utundi duce duteyemo ubusitani, inyuma y'inzu hari ibiti birebire cyane.

Inzu y'igorofa ifite icyapa cy'umukara cyanditseho amagambo y'umutuku n'umweru, Cyamamaza hoteri, imbere yabo hari imodoka zihagaze ndetse nabantu bari ku igare.

Umuhanda wa kaburimbo imbere yawo hari inzu y'amagorofa y'ubakishije amatafari isize amarangi y'umweru, n'umuntu uri gutambuka mu muhanda n'ibiti bihateye.

Umudugudu urimo amazu menshi hagati y'amazu hateyemo ibiti, hasakaje amabati y'ubwoko bugiye butandukanye. Hari kugaragara n'igikuta cyubakishije amatafari ahiye, hagaragara n'ikirere hejuru gisa n'icyijimye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahagaze imbere y'inyubako zishoreranye zifite ibyapa hejuru, imbere yazo hari imitaka igiye iri mu mabara atandukanye harimo icyatsi ndetse n'iyenda kuba umutuku, hari n'ahantu hamanitse amadarubindi imbere y'inzu.

Inzu isakajwe amabati y'umutuku, n'umuhanda kuruhande hari ibiti bimanitseho insinga zikwirakwiza umuriro wamashanyarazi.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara uhagaze munsi y'ikiraro iruhande rw'icyo kiraro hari ibiti byinshi muri ibyo biti harimo n'imigano.

Inzu y'amagorofa atatu ifite amabati y'umutuku n'igiti gifite urusinga rukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi giteye imbere y'uruzitiro rwubakishije amabuye ahiye.

Urukuta rw'amatafari ahiye inyuma yaho hari ubusitani n'igiti, imbere harimo inzu.

Ifoto igaragaza inzu y'igorofa, ifite imiryango myinshi ikinguye, hakaba hamanitseho n'ibyapa biri mumabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Umuhanda w'amabuye, urimo umuntu utwaye ipikipiki, uca hagati y'inyubako, imbere y'inyubako hari ibiti bifite insinga zishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Inzu y'igorofa yubakishije ibirahure iruhande rw'iyo nzu hateye ubusitani hakaba hahagaze umushoferi uri ku ipikipiki.

Inyubako isakaje amategura yegeranye n'indi nyubako iri mu ibara ry'umukara, munsi y'iyo nyubako hari imodoka ihahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo imodoka nini ifite ibara ry'umweru y'ubwikorezi. hakurya yawo hari akazu gatoya gafite ibara ry'ubururu, gateyemo intebe. Hakurya yako hakaba hari ibiti bigaragara nk'ishyamba n'ipikipiki iri guca mu muhanda

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi n'izindi modoka ebyiri ntoya zitwara abantu ku giti cyabo, uwo muhanda ukikijwe n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibimenyetso by'umweru n'umukara hagati, hakurya hakaba hateye ibiti, hakaba hari n'amazu agaragara, uri kugendamo imodoka na moto.

Agahanda gasashemo amabuye, iruhande rwako hari ubusitani buteyeme indabo n'ibiti bigufi. Iruhande rwabwo hari umuhanda wa kaburimbo ufite ubusitani, mo hagati uteyemo ibyatsi. Ndetse n'ibiti by'imikindo hari kunyuramo n'amapikipiki mu muhanda.

Agace gato k'imbuga isashemo amabuye, iruhande rwayo hari umuhanda wa kaburimbo, usa nk'uwasadutse hepfo yayo hagaragara ibiti byinshi hari n'ibinyabiziga biri gutambuka muri uwo muhanda.

Imodoka y'umukara iri guca mu muhanda wa kaburimbo wubatse munsi y'ikiraro, hejuru hari undi muhanda. Ku ruhande hakaba hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka, amagare, moto n'inzu z'amagorofa n'ibiti biteye inyuma yaho n'abantu bari gutambuka muri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ubusitani hagati buteyemo ibiti hakurya y'umuhanda hakaba hubatse igorofa rirerire ry'umweru hakaba hari n'ibiti bimanitseho amatara yo kumuhanda ,

Ubusitani buteye hagati mu muhanda bukikijwe n'imirongo y'umweru ishushanyije mu muhanda wa kaburimbo ,hakurya muri uwo muhanda hari guca imodoka hateye n'ibiti by'imikindo hagati harimo icyapa kiri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaza aho abanyamaguru bambukira, haciyemo imirongo y'umweru, uri kugendwamo n'amapikipiki, hepfo yaho hagaragara ibiti byinshi bigaragara nk'ishyamba.

Agace gato k'imbuga isashemo amabuye, ifatanye n'imihanda ya kaburimbo, igiye ifitemo ubusitani butoya mo hagati, iri kugendamo ibinyabiziga, hakurya yayo hagaragara ibiti, muri ibyo biti harimo ibiti byo mu bwoko bw'imikindo.

Ifoto igaragara nkicuritse iriho imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse n'imodoka iri mu ibara ry'umukara hari n'umuntu uri kugendera ku igare wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu, hakaba hari n'imashini ishinzwe kureba abarengeje umuvuduko mu gihe batwaye ibinyabiziga n'abantu bari kugenda hakurya y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umukara na moto iriho umushoferi wayo n'umugenzi; n'icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho ishuri; n'abanyeshuri babiri bari kujya kwiga n'abandi bagabo babiri bari kugenda mu muhanda n'ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaza ibimenyetso by'umweru byerekana aho abanyamaguru bambukira, n'imodoka na moto ziri kugenda, hakurya ya'ho hari ubusitani.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ikidendezi cy'amazi hagati y'umuhanda wa kaburimbo ndetse n'umuhanda w'abanyamaguru, hakaba hari ipikipiki iri kwambuka n'imodoka ziri imbere ndetse ku mpande y'umuhanda hateye ibiti.

Umuntu uhagaze hejuru y'kiraro imbere ye ahari ibimenyetso by'umweru abanyamaguru bambukira ari kureba hakurya y'umuhanda ahantu hari ishyamba hari n'amatara yo ku muhanda arikwaka imodoka ziri guca muri uwo muhanda.